Umujyanama w'ubuzima, arimo arakira umuntu, umubyeyi uzanye umwana we, aho bagiye kumupima ibiro, kugira ngo barebe uko imikurire y'umwana ihagaze, bifasha cyane mu gukurikiranira hafi imikurire y'umwana, n'ubuzima bwe bwa buri munsi, kuko batabikurikiranye gutyo umwana ashobora kugwingira ntibabimenye, ibingibi birafasha cyane.

Ni inama yahuje abayobozi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye bashinzwe ubuzima, bahuriye hamwe kugira ngo bafate ingamba zitandukanye mu gusigasira ubuzima bw'abatuye ibihugu bitandukanye kandi bigashyirwaho n'ingamba zo gukumira ibyorezo bitatu binini byugarije isi.

Ikigo cy'amashuri abanza aho bafite ibikoresho byabugenewe mu kubika amazi, ibi bikoresho bifashwa cyane mu kubiga amazi bimakaza isuku cyane, abandi batandukanye bazanye udukombe baje kwivomerara ayo mazi. Ibi bifasha cyane kuba byarinda abana kunywa amazi yanduye noneho bagakomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Ishuri aho harimo abana babiri bishimye, umwe amanitse agatoki hejuru yerekana ko yishimye n'ibintu bari kwiga n'ibyo bari kubibwira bari kwemeranya na bo kandi bashaka kugira uruhare mubyo barimo. Bikagaragaza uko bafite ubuzima buzira umuze kandi bameze neza.

Umwana muto cyane ari guhabwa urukingo izi nkin a abana batoya zibafasha mibiri yabo ubudahangarwa bukomeye cyane bwo guhangana n'indwara zitandukanye.

Abakozi ba post de sante bari hanze, bari gufata ifoto nk'abakozi bakorera aho ngaho, barishimiye cyane, ibi byongera umubano bagirana, no gukomeza isano iba iri hagati yabo, mu gukorana neza.

Abana batoya ku ivomero barishimye cyane, bari gukina n'amazi, aho baretseho ibiganza byabo uko amazi ameneka baseka. Bigaragaza ibyishimo bafite bitewe n'ivomero bafite ryo kubona amazi meza asukuye.

Umwana arishimye, ari gutegesha amazi ibiganza bye amazi ari kuva mu mugezi, arishimye cyane bigaragaza ko amazi ari ubuzima, kandi abafasha cyane mu bikorwa bitandukanye, birimo kugira isuku, no kuba bayakoresha mu guteka n'ibindi bitandukanye, bityo rero bigatuma yishima yishimira aya mazi yegerejwe.

Abana bari kumwe bajya ku ishuri, undi yaje kuvoma, aho bigaragaza ko ivomero ryegerejwe abaturage, ahantu ku muhanda heza hatari mu misozi ihanamye, bamwe bari kujya kwiga undi mwana we ari kuvoma, bigaragaza ko ashobora kuba arakererwa, bikaba bisobanuye ko hari ababyeyi batanga akazi ku bana babo, bikababangamira mu myigire yabo.

Ikigo mpuzamahanga gishinzwe kurengera, gukurikirana ubuzima bw'abana ku Isi. Iki ikigo kigenda gifasha abana baturuka mu bihugu bitandukanye bakibaha imfashanyo kubarihira amashuri, kubishyurira imiti n'izindi serivisi bakunze gukenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu myaka itandukanye, hari uburyo butandukanye ku bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye uko byagendaga bibaho. Mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani byari ku kigero cya mirongo itanu na gatanu ku ijana, bibiri na cumi n'icyenda mirongo irindwi ku ijana, bibiri na makumyabiri mirongo irindwi na gatandatu ku ijana, bibiri na makumyabiri na rimwe mirongo irindwi n'icyenda ku ijana.

Abantu bakuru abagabo, abagore bari kugaburira abana amata yo kunywa kugira ngo abana bakure neza barwanya igwingira, babongerera intungamubiri n'uburyo bazakura neza bafite igihagararo n'ubwenge.

Abaganga babiri barikwita ku baturage batandukanye, abo bapima babateye agashinge ku ntoki zabo, bakoresha buno buryo iyo bari gupima abantu Malariya cyangwa izindi ndwara bapima bakoresheje amaraso, ariko bagakoresha uturaso dukeya. Buno buryo ni bwiza kuko ntabwo bubabaza kandi burihuse.

Umubyeyi usigagati umwana arimo aravoma ku ivomero arishimye cyane, aho ayo mazi abafasha mu bikorwa bitandukanye by'isuku, ku bakura imyenda y'abana babo ndetse banayakoresha mu buryo bwo guteka, ivomero riri hafi rifasha umuryango kandi kudasiragira batakaza umwanya wabo bajya kuvoma amazi kure ahubwo bakoresha uwo mwanya mu byateza imbere urugo.

Umujyanama w'ubuzima ari kuganira n'abaturage aho higanjemo abagore ababaza amakuru atandukanye banahugurana, bifasha abaturage batandukanye kumenya amakuru ajyanye n'imibereho yabo, kuboneza urubyaro cyangwa guutunganya indyo yuzuye bibafasha cyane mu mibereho yabo no kugira ubuzima buzira umuze.

Umujyanama w'ubuzima, arimo arapima abagore baje bamusanga ko abapima indwara zitandukanye n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara zishobora kubibasira.

Abajyanama b'ubuzima bahuriye hamwe aho bahawe amatelefoni azajya abafasha muri serivisi batanga kuziha abaturage, telephone kandi zizajya zibafasha mu kubona amakuru atandukanye, dore ko ari telefone zigezweho aho zikoresha interineti bakaba babona amakuru menshi atandukanye avuye kuri bagenzi babo mu gihugu hose.

Ivomero aho abaturage batandukanye baje kuvoma higanjemo abakuze n'urubyiruko bazanye amajerekani bayatondekanyije, biteguye kuvoma amazi meza. Nyuma bifasha abaturage bo mu gace runaka kegereye iri vomero kuba babona amazi meza bityo bazajya bakoresha amazi asukuye bakirinda umwanda, ubuzima bwabo bukaba bwiza.

Gukaraba intoki kuri gukorwa n'abantu babiri, umwe afite agakoresho kari gusuka amazi undi afite isabune mu ntoki ari gukaraba, gukaraba intoki muri ubu buryo bifasha umuntu uri gukaraba intoki kuba umwanda umuva mu ntoki utagaruka kuko biba bimeze nk'aho ari amazi atemba noneho ayo mazi akamanuka imyanda kandi gukoresha isabune bifasha cyane gukuraho mikorobe ziba zagiye ku ntoki z'abantu.

Umuntu mukuru bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe, ari kurira; bisa nkaho hari ibintu byamubabaje, cyangwa afite sitiresi zamurenze, cyangwa agahinda gakabije. Abantu nk'aba bagomba kwitabwaho kuko baba bafite ikibazo gikomeye cyo mu mutwe, bishobora kuba byanabaviramo ingaruka mbi zo kwiyahura.

Urubyiruko rwahuriye hamwe, mu kuganira ku bintu bitandukanye bibangamiye sosiyete, ahangaha bafatiramo ingamba y'ukuntu bakiteza imbere, ukuntu bafasha sosiyete barimo, mu guharanira ko bazaba abantu bakomeye igihe cyabo kizaza, ibi bikangurirwa urubyiruko kugira intego, noneho bikazabafasha kuba abantu bakomeye mu gihe kiri imbere,

Umuntu ufite ubumuga bwo mu matwi, aho afite ibintu bitandukanye ibyo ahetse ku rutugu, afashe n'ibindi mu ntoki, yambaye ibicoocero, imyenda yacikaguritse asa nkuwisize ibintu by'umukara mu maso, abantu akenshi bitabwaho bigatuma baba banateza ingaruka zikomeye.

Ni umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, aho baba bafite uburwayi bwo mu mutwe, ni benshi baba basa nabi kuko birirwa bazerera, bicaye mu muferege muri rigori aho amazi aca, bakaba banajugunyamo n'indi myanda aba abantu babagomba gufatwa bakitabwaho bakanavurwa, kuko ko iyi ni indwara nk'izindi.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe yambaye nabi yicaye ku muhanda, ufite ufite umwanda mwinshi cyane aho abo bantu baba baratereranye akenshi nabo mu miryango yabo ndetse n'abandi babafata nabi bakwiriye uburenganzira bwabo nk'ubw'abandi bantu.

Umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe yahambirijwe icyuma ku kuguru kwe kw'iburyo noneho bagihuza n'igiti. Ibi bigaragaza uburyo bubi uburyo bukarishye aho abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe bafatwa nabi na sosiyete, aho babafata nk'abantu badakwiriye uburenganzira nk'ubw'abandi. Ibi bikaba ari bibi cyane kuko biba bibangamira uburenganzira bwabo.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe. Uyu munsi uba ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi. Aho abantu batandukanye ku isi bizihiza uyu munsi barebera hamwe ingamba n'uburyo bwafasha mu kuyirinda no gukumira uburwayi bwo mu mutwe, kandi bakareba n'uburyo bazafasha abantu bahuye n'ubwo burwayi.

Abana batoya, barishimye, bari guseka, bafite akanyamuneza, bigaragaza ko bafite ubuzima buzira umuze, bitewe n'uko bitaweho, babonye imirire myiza, bakaba bishimye, barakuze neza, kandi bagiye ku ishuri, ibintu ni byiza cyane.

Imodoka ifite icyapa kikangurira abantu kwita ku bantu ku bibazo byo mu mutwe abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe aho hari clinic ibafasha cyangwa ibitaro bibafashiriza kuri fone biherereye i Bugesera ko abantu babahamagara baba bashaka abo gufasha ubundi abo bantu bagafashwa.

Abana biga ku kigo cy'amashuri kimwe barishimye cyane aho bitaweho cyane kandi bafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, abana bameze neza barishima, ibi byerekana ko abana bitaweho mu mikurire yabo kandi n'umwana wari utameze neza agomba kwitabwaho nk'abandi mu buryo bumwe adahejwe.

muntu ufite ubumuga bwo mu mutwe, aho ari kugenda atambagira imihanda yose agaragaza imyitwarire itamenyerewe ku bantu bazima, aba bantu kenshi usanga abantu babafata nk'aho batari bazima ugasanga babambura uburenganzira bwabo aho bitari byiza baba bagomba kwitabwaho banabakeneye ubufasha bwihariye.

Umugabo arishimye cyane, ari guseka afite ameyo akeya cyane, arayasukura bigaragare ko bayogeje kwa muganga kandi akaba akurikiza inama zose yagiriwe na muganga, amenyo ye ni meza, nta kibazo afite arishimye cyane bitewe n'uko afite ubuzima buzira umuze.

Abana barishimye cyane, aho bose bari gusukura amenyo yabo, bityo bikazabafasha gukura bafite umuco wo koza amenyo, bikazabarinda indwara zikomoka ku mwanda w'amenyo. Ibi byagakwiye kwigishwa mu mashuri yose kugira ngo abana bose bakurane uwo muco, hanyuma dukomeze kwirinda indwara zituruka ku mwanda wo mu menyo.

Umurwayi w'amenyo uri gukoresha agakoresho kameze nk'akagozi, agenda anyuza mu menyo arishimye, umuganga w'amenyo na we amuri imbere ari kumusobanurira uburyo bwo kugakoresha. Ubuvuzi bw'amenyo bufasha umurwayi w'amenyo kutazongera kurwara amenyo kandi indwara yari arwaye ikaba yakira mu buryo bwihuse.

Abantu bambaye imipira isa icyatsi bari gupimwa indwara zo mu kanwa. Aho abaganga bari kubareba mu kanwa basamye bakagenzura uko amenyayo y'abo ameze, bifasha abaganga kuba bakita ku buzima bw'abantu batandukanye, aho iyo barwaye indwara zitandukanye zo mu kanwa cyangwa amenyo bafashirizwa ku gihe, ubuzima bwabo bugatabarwa.

Muganga w'amenyo uri kuvura umurwayi w'amenyo, umurwayi ari kumwereka ahantu afite ikibazo, amufitiye igikoresho cyabugenewe cyo kumufasha mu kuvura amenyo y'uwo murwayi.

Umuganga w'amenyo yicaye mu cyumba cyabugenewe aho yakirira abarwayi, harimo ibikoresho bitandukanye bakoresha bari kuvura abarwayi b'amenyo, nk'uku umurwayi aza akaryama, hanyuma bagakoresha ibyuma bitandukanye bamuvura. Ubuvuzi bw'amenyo butuma abantu babagana basubirayo bakize, ubuzima bwabo bugakomeza neza.

Umwarimu uri kwigisha umwana uko bakora isuku mu kanwa biborosa, bari gukoresha igishushanyo kiriho amenyo bityo kugira ngo abana bari mu ishuri babe babibona neza, hari n'abandi bantu bahagaze inyuma bakurikiranye icyo gikorwa.

Umuganga w'amenyo, ari kuvura kumurwayi, aho uwo murwayi aryamye. Ubuvuzi bw'amenyo bugezweho, basigaye bakoresha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho bagukura cyangwa bakakogereza amenyo mu buryo bwiza, aho bakoresha n'ikinya, kugira ngo umurwayi abe atanababara.

Umwana n'umubyeyi we bari kwiborosa. Bari gusukura amenyo yabo bakoresheje uburoso butandukanye, umubyeyi ari kwigisha anerekera umwana we uko boza amenyo mu buryo bwiza, kandi bari kubikora mu buryo bushimishije baseka bamwenyura. Ibi bizafasha umwana gukura afite uwo umuco wo gusukura amenyo ye binamurinde indwara zishobora gukora ukomoka ku menyo.

Abantu bakaba bahuriye hamwe aho bari guhugurana mu buryo bw'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga. Bari kuberekera uko bakoresha telefoni n'ibindi bikoresho bigezweho. Bibafasha kuba bakisanga mu isi igezweho aho batajya batungurwa n'ibintu by'impinduka ziba zibera muri iyi si.

Umukecuru, umusaza, abana, ndetse n'ababyeyi b'abana, bari mu rugo rumwe barishimye, bari kwita kuri bano bana ndetse n'abakuze. Ibi bituma abantu bakuze biyumva muri sosiyete y'abantu b'urubyiruko, kandi bikanabafasha mu myaka yabo y'iza bukuru.

Umusaza ugeze mu za bukuru uri gufashwa n'umuganga w'urubyiruko mu gukora agasiporo gatoya, aterura akantu karemereye mo gakeya bityo bikamufasha kuba yananura imikaya no gukora imyitozo ngororamubiri iringaniye itamusaba imbaraga nyinshi, arishimye, ari guseka ibintu bimeze neza.

Abantu babiri bari mu myaka yo mu za bukuru bafatanya ku ntudugu bari gutembera bari gusangira inkuru zishimishije bisa nk'aho bishimye cyane. Ibi ngibi bibafasha ku mitekerereze yabo no kuba baruhuka bakirinda stress zo kubaho bonyine bibafasha kongera imyaka yabo yo kubaho.

Umukecuru cyangwa se umuntu ugeze mu myaka y'iza bukuru ari gufashwa n'umwana w'urubyiruko aho ari kumufasha gukora siporo amateruza akantu karemeyemo ukuntu, ibitabo byerekana ko ubuzima bw'abageze mu za bukuru buba bagomba kubungwabungwa n'ubwo bo nta mbaraga nyinshi baba bafite ubwo urubyiruko n'abandi bantu bababaye hafi mu kubafasha mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu mukuru ari kwitabwaho, aho bari kumwerekera utuntu duto two gukora kugira ngo arusheho kubona ibintu ahugiraho bikanamufasha kugorora imitsi, imikaya n'izindi ngingo ze z'umubiri. Ibi bibagirira umumaro cyane.

Umuntu ugeze mu myaka y'izabukuru ari kumwe n'urubyiruko, umukobwa muto, aho bishimye bakaba bari gufatana ifoto bameze neza, ibi bigaragaza ko bishimanye kandi uyu mwana muto w'urubyiruko ari kumwitaho bityo bikaba byafasha uyu muntu mukuru kuba atakwigunga cyangwa ngo yihebe.

Umukecuru n'umwana mutoya, umukobwa w'urubyiruko, bari gutegura ibyo kurya aho higanjemo imbuto, n'imboga, n'ibindi, barishimye cyane, baraganira, umukecuru bigaragara ko yishimye cyane, kubona urubyiruko bari kumwe, bakaba bagiye gusangira, kandi n'ifunguro rikaba rizabafasha neza mu buzima bwabo.

Inama yahuje abayobozi batandukanye bo mu isi aho baganira ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubuzima haganirwa ku ngingo zitandukanye zituma abaturage basobanukirwa neza bitangirwa mu buzima nka serivisi ndetse n'ibindi bintu byangombwa bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi bitangirwa ku bigo nderabuzima n'ibitaro bitandukanye.

Abantu batandukanye, bambaye ibisa, bahuriye hamwe aho ikintu kigamije ari ibijyanye n'isuku y'abakobwa. Gutanga ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu isuku. Iyo himakajwe isuku, hari indwara nyinshi ziba zirindwa zishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ,iyo hatimakajwe isuku.

Icyumweru cyahariwe diyabete, aho abaturage ngo zisobanurirwa byinshi ku bijyanye n'indwara ya diyabete, ibimenyetso byayo n'uko bayirinda ndetse n'uko uwayirwaye yakitabwaho kandi n'uburyo yakitwaramo kugira iyi ndwara ibe yagabanyirizwa ubukana.

Igishushanyo kigaragaza imyubakire y'ukuntu ubuvuzi bugenda buhera ku cyiciro cyo hasi buzamuka ku cyiciro cyo hejuru aho bihera ku baturage mu bajyanama b'ubuzima bigakurikira ibigo nderabuzima, ibitaro by'akarere, iby'intara ndetse n'iby'igihugu. Ibitaro birakorana kugira ngo bagenzure banakurikirana ubuzima bw'abaturage neza.

Itangazo rya RBC aho rikangurira abantu guhagarika cyangwa gukumira icyorezo cya korona virusi, aho bagomba gukaraba intoki, bakitsamura badakoresheje intoki, gusigamo intera, no kwishyura amafaranga ukoresheje uburyo bwa telefoni.

Amagambo yavuzwe n'umuntu runaka akangurira abantu ku bintu bijyanye no gushora amafaranga mu bijyanye n'ubuzima, kuko muri afurika ariho hakenewe gushora imari cyane mu bintu bijyanye n'ubuzima, cyane cyane mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa sahara.

Abantu batandukanye bahuriye hamwe bari gufata ifoto. Abo bantu barimo abazungu, abirarabura. Naho hakaba harimo n'abagore n'abagabo ndetse n'inzego zishinzwe umutekano aribo aba DASO. Bahuriye mu nama yo kwiga uburyo imibereho y'abaturage yakomeza gufatwa neza, kubungabungwa.

Ikigo cyo mu Rwanda gifasha mu gukumira no kuvura kanseri aho gifasha abarwaye kanseri kuba batabara ubuzima bwabo mu buryo bushoboka bwose kugira ngo abo barwayi bakomeze babeho neza bitazanabaviramo no kubura ubuzima.

Abaganga babiri bari gufatanya n'abantu ibyorezo. Gupima gutya kugira ngo babikore bamanza bambara imyenda yabugenewe, ga n'ingofero zabugenewe kugira ngo birinde ikwirakwira ry'ibyorezo. Umuntu arasamye bari kumupima icyorezo banyujije mu kanwa ibikoresho byabugenewe.

Ni amagambo yanditse mu ikarita y'u Rwanda, ari gukangurira abantu mu kwirinda sida, iki cyorezo ni icyorezo kibi cyane, aho nta rukingo nta n'imiti yihariye ahubwo habaho imiti yo kugabanya gukwirakwira n'ubwandu bwayo, ikaba yanagabanyiriza abantu uburibwe, ikanabagabanyiriza no kuba yanabahitana, ubwo rero iki cyorezo ni kibi cyane.

Ibitaro bikuru byiza, aho bifite gate isa n'ubururu. Ibi ni ibitaro byiza aho abantu bu mu ngeri zose zitandukanye bahawe transfer zituruka ku bigonderabuzima baza none ho bagahabwa ubuvuzi bwisumbuye k'uko bahawe ibigonderabuzima.

Ibitaro byiza cyane aho bifite ahantu hababugenewe ho gutangira amakuru ndetse hakaba harimo na sale ndende aho abantu bahurira baje bazanye amakuru ku bintu bitandukanye indwara ,uburyo bazirinda.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi akita ku murwayi uryamye, aho abikorana ubushishozi n'ubwitonzi. Gukora ibi bintu mu bwitonzi, bituma afasha umurwayi neza, umurwayi akaba atahaburira n'ubuzima bwe.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi aho abaturage benshi batandukanye baje gushakira serivisi z'ubuzima bifasha abaturage kubona ahantu bagana mu gihe bashaka serivisi z'ubuzima zirimo gukingiza birinda indwara n'ibindi.

Abaturage bitabiriye amahugurwa aho amahugurwa ari gutangwa n'abayobozi batandukanye ku kigo nderabuzima cyangwa ikindi kigo cy'ubuvuzi, izi nama zikangurira abaturage kwirinda indwara zitandukanye hanyuma bakanabasobanurira uburyo bahabwa serivisi z'ubuvuzi ku buryo bworoheje.

Ababyeyi babiri, harimo umubyeyi umwe ufite umwana, arishimye cyane, umwana ni mushya mu muryango, bityo rero bisa nk'abishimye bashimira ubuvuzi bakorewe ko babonye umwana muzima, kandi bifasha ababyeyi kugirira icyizere ibitaro,...

Icyuma gikoreshwamo n'abavuzi batandukanye, bakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye nk'indwara cyangwa izindi ngamba bashobora gufata mu kunoza serivisi batanga baziha ababagana. Harimo intebe zitandukanye nyinshi, hakabamo n'ameza aho abantu bicara bagahurira noneho bagakora inama.

Umuganga ari mu cyumba cyabuhariwe cyo kwakira abarwayi bafite uburwayi runaka, kuko harimo ibikoresho byabugenewe bagufasha Ku abarwayi no kubafotora mu ngingo kugira ngo babashe kubona indwara zirimo muganga atabasha kubonesha amaso.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro ko abarwayi batandukanye baturutse no mu duce dutandukanye baza kwivuriza cyangwa gushakaho serivisi zerekeranye n'ubuzima. Bashobora kuza bashaka inama cyangwa ubundi buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye n'ibyorezo.

Ahantu heza cyane mu bitaro, aho ari muri koridoro, urinjira ukerekeza mu byumba bitandukanye ushaka, ibyo byumba imbere haba hamanitseho ikirango cyerekana serivisi zitangirwamo, bikaba bifasha cyangwa bakeneye serivisi kutayoba cyangwa ngo basiragire mu bitaro.

Ahantu hababugenewe aho hari icyumba kinini, aho abantu batandukanye bazamo, bakaba bakoreramo siporo, n'utundi twitozo ngororamubiri, cyangwa ikaza bakicara bakahaganirira, bakahakorera inama y'abantu bakeya, ku dutebe turimo dukikije imeza.

Mu bitaro, abarwayi baryamye ku bitanda abaganga bakaba bari gukurikirana ubuzima bwabo, bari gufata akaboko bagashyiraho ibikoresho byabugenewe nka serumu kugira ngo babafashe babavure neza, ku buryo izi ndwara zitazongera kongera kubatera.

Ibitaro bikuru, aho hariho icyapa kirangira abantu ahantu serivisi bashaka ziherereye. Ibi bintu bifasha abagana ibi bitaro kuba bamenya ahantu serivisi bashaka ziherereye, bityo ntibasiragire bashakisha bakaba bata n'umwanya batari babona ahantu bagiye. Bibafasha kuyoboka neza.

Ikigo cy'ubuzima gifasha abana bafite uburwayi butandukanye. Aho kiba bitandukanye n'ibindi bigo nderabuzima, cyangwa ibindi bigo by'ubuzima bya leta. Aha abarwayi batandukanye hatitawe ku bwishingizi runaka barabigana, ubundi bakabafasha, buzima bwabo bukavurwa indwara zitandukanye.

Ubutumwa bukangurira abantu batandukanye, kugira uruhare mu myitozo ngororamubiri, aho birinda indwara zitandukanye. Ubutumwa bukangurira abantu. Bizagufasha abo bantu nibajya mu myitozo ngororamubiri, kuba barinda amagara yabo, kuba bakandura indwara zitandura, harimo nka kanseri, diyabete, imivuduko y'amaraso, ndetse n'umutima.

Imiti itandukanye ikoreshwa muri siporo, aho haba harimo imiti yashyizwe nko ku bantu bavunitse bagize uburibwe bari mu kibuga, ngo bari gukora indi myitozo, ubundi bakagira impanuka. Iyi miti yifashishwa cyane mu kubafasha, mu kubavura imvune cyangwa uburibwe.

Udukapu dukoreshwa n'abantu babatabazi b'ibanze, aho haba harimo ibikoresho bakoresha mu gufasha umuntu waba ugize impanuka zitunguranye, bityo bakaba batabara ubuzima bwe kuko baba barinda kuba igikomere cyazana ingaruka zirenze.

Umurwayi aryamye hasi, aho umuganga ari kugenda amukandakanda, ibi bifasha umuntu uri gukorerwa iyi serivisi kuba imitsi ye yatembereza amaraso neza kandi akaba yakumva ameze neza, amaraso atembera neza ndetse bikamunda n'ubundi burwayi bw'abakomoka ku kuba ibi bintu utabyitaho.

Umukinnyi asoje gukina cyangwa ari kwitegura gukina, afashe icupa ry'amazi ari kunywa, bigaragaza ko amazi ari ingenzi cyane ku bantu bagira uruhare cyane muri siporo, kuko amazi ni ubuzima, aricaye yambaye umukara n'umupira ujya gusa n'umweru ariko udasa n'umweru neza.

Imiti igabanya uburibwe, aho bakunze kuyikoresha muri siporo, nk'abakinnyi baba bakina umupira iyo bakomeretse imiti bayibasigaho kugira ngo bibagabanyirize uburibwe, noneho bavurwe batari kumva ububabare cyane. Imiti ni ingenzi cyane kuko ifasha mu kuvura no kurinda ububabare bw'umuntu wakomeretse.

Umusore cyangwa umugabo muto ari muri siporo aho ari kunanura amaboko n'amaguru, imyitozo ngororamubiri izamufasha mu kunanura ingingo ze kandi imyitozonguramubiri ifasha abantu mu ngeri zose kuba bakundana mu kwirinda siteresi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bakoresha mu buvuzi, ahanini bavura abakinnyi, n'abandi bantu bakora ibikorwa bijyanye na siporo, abo bantu abo bakinnyi cyangwa abantu bagira uruhare muri siporo iyo bavunitse cyangwa bakagira ikindi kibazo, barabafata bakabazana muri kino cyumba, ubundi bakabitaho, abaganga batandukanye babizobereye ubundi bagakira.

Umuntu w'urubyiruko ari kunywa amazi mu gitondo cya kare, kunywa amazi bifasha umubiri igogora, kandi amazi atuma umubiri udashyuhirana cyane, niyo mpamvu ari iby'agaciro, ni n'ingenzi cyane ko buri muntu wese ajya anywa amazi, kugira yorohereze umubiri we gukora neza, kandi vuba.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa iyo bari gutanga ubufasha bw'ibanze, wenda nk'iyo umuntu agize impanuka, ibikoresho bakoresha bamufasha kugira ngo batabare ubuzima bwe, harimo impakasi, itoroshi n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gutabara ubuzima bw'umuntu.

Abaganga batandukanye n'abandi bayobozi bari kubareba bari kuvura umuntu uryamye, aho bari kumunanura amagufa bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga ibi bifasha umurwayi n'abaganga kuba bamukura neza bakanamenya aho ikibazo kiri, bakanamufasha mu kunanura ukuguru neza.

Abaturage batandukanye bahuriye ku kibuga, bari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere yabo hari umuntu uri kubafasha, mu kuzikora, ari kugenzura ko buri umwe wese ari gukora ibyo ateganyijwe gukora, izi siporo zifasha abaturage kugira imibereho myiza, bikabarinda stress, no kwirinda nk'indwara zifata abantu, bitewe nuo badakora siporo nk'imivuduko ikabije, indwara z'umutima, n'ibindi.

Umuntu ari mu myitozo ngororamubiri, aba yafashe akaboko k'iburyo akagakoza inyuma, n'akaboko k'ibumoso akagakoza ku kaboko k'iburyo akagwa atitegeye kamera, umugongo uri inyuma.

Umuntu w'urubyiruko ari muri siporo, ari kunanura amaboko, kuko imyitozo ngororamubiri ifasha abantu bo mu ngeri zose kugira ubuzima buzira umuze, bakanirinda indwara zitandura zirimo umuvuduko, diyabete, n'izindi ndwara kandi imyitozo ngororamubiri inagabanya stress, ikaba yanubaka isano cyangwa umubano hagati y'abantu benshi bayihuriyemo.

Itsinda ry'abavuzi batandukanye bari gukurikira amahugurwa bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga iya kure, aho batari kumwe mu buryo bw'ibonankubone n'uri kubaha amahugurwa, ahubwo bari kumukurikira ku ikoranabuhanga bashyize imbere yabo, bifasha mu gucungura igihe kandi n'uburyo bwizewe muri iyi si tugezemo y'ikoranabuhanga.

Amazi ari gusukwa mu kirahuri bayavana mu ijake. Amazi meza asukuye afasha abantu mu kwirinda indwara zitandukanye zishobora gukomoka ku mwanda, zikanafasha umuntu kuba yagira ubushyuhe buringaniye mu gihe runaka bitandukanye. Amazina ni ingenzi ku buzima, buri muntu wese aba agomba kuyanywa kugira agire ubuzima buzira umuze.

Umuntu yicaye muri pasiparome ari muri siporo, ari kunanura amaguru n'amaboko, aho yafatishije amaboko ku mano, amaguru arambuye, iyi siporo ifasha cyane mu kunanura imikaya, amagufa, kandi bigafasha cyane umuntu gukora siporo neza.

Umusore afite abwanwa wambaye umupira w'ubururu ari kunywa amazi yari ari muri siporo, amazi amfashua kuba yagarura ubuyanja mu mubiri akaba yanasubiza ikigero cy'ubushyu cy'umubiri, ikigero cyiza ntikirenga cyane.

Igikapu kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho, imiti, n'ibindi bintu by'ingenzi abantu bakenera iyo bari muri siporo. Bibafasha cyane kuba bakora siporo, bagira n'ikibazo bakaba bafashwa mu buryo bworoshye, bunihuse.

Imbuto, ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho bifatwa bakabitunganya, ariko ntibabicisha mu nganda, bizajya bikoreshwa mu kuvura abaturage indwara zitandukanye.

Ikimera gikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, aho abavuzi ba gakondo bagifata bakagikoresha mu kuvura abantu uburwayi butandukanye. Bibafasha gukira ubwo burwayi ariko n'ubuvuzi bwa gakondo ntabwo buba bwizewe neza, kuko bushobora guteza ingaruka mbi ku babikoresheje.

Imiti ya gakondo aho yashizwemo uducupa dutandukanye, imiti igenda ishyirwa mu maforomasi amwe n'amwe cyangwa ku bacuruzi bakorana n'abavuzi ba gakondo, iyi miti ifasha abaturage ku buzima bwabo bwa buri munsi, ariko bakagomba kubyitondera kuko iyo miti ishobora kubagiraho ingaruka bitewe n'uko aho bayikura hamwe haba hatizewe cyane.

Ubuvuzi gakondo aho bakoresha ibimera bitandukanye bavura abantu ibyo bimera birafatwa bigatunganywa ubundi bigashyirwa mu macupa, aho uyu muti wifashishwa mu gusukura amenyo ayagira ngo acye ase umwe dede.

Mu isoko aho harimo umucuruzi ucuruza ibintu bitandukanye, mu bintu acuruza hakaba harimo n'imiti ya gakondo ipfunitse mu ducupa, abaturage cyangwa abarwaye baba bafite uburwayi butandukanye, baraza kugura imiti itewe n'ikibazo bafite cy'ubuzima, noneho uyu mucuruzi bakayibagurisha amafaranga, igiciro runaka.

Ikimera gikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo aho abavuzi babikoresha n'abaturage bakaba babikoresha mu ngo zabo iyokenshi bazi ikintu bivura, iyi miti ya gakondo ishobora gukoreshwa nabi bigatuma abantu bibagiraho ingaruka mbi, kuba bayikoresha ku bana batoya umubiri wabo utaragira ubudahangarwa buhagije.

Umuti w'umuravumba utunganijwe noneho ugashyirwa mu icupa; ni umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, aho abantu bayikoresha, bidasaba ko bajya kwa muganga ngo bahure na muganga imbona nkubone; ahubwo bawukoresha ku giti cyabo nuko ukabavura indwara zitandukanye.

Ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo bivura indwara zitandukanye, abavuzi gakondo barabifata bakabikoresha bavura abantu indwara zitandukanye, barabifata bakabyitunganyiriza ntibabinyuze mu nganda bakabona gufasha abo bantu.